Ibitaro bikora mu gutanga ubuvuzi, yaba urwaye indwara zitandukanye ,yaba ushaka kwisuzumisha , ugashaka kumenya uko umubiri wawe uhagaze, wagana ibitaro bakagufasha.

Muri farumasi aho umuntu wabyigiye wize iby'ubuvuzi akorera, agatanga imiti ushobora kuba wandikiwe na muganga, cyangwa se wowe ubwawe ukeneye kujya kugura imiti runaka, ukagenda akayiguha.

Indabo z'icyatsi zifashishwa nk'imitako, ahantu ziteye haba hasa neza, zizana akayaga ndetse zifashishwa mu miti. Iyo umuntu yagize uburwayi arazihekenya akabasha gukira.

Igiti cy'igicunshu cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi ,gishobora kuba ubwatsi bw'amatungo yaba amatungo magufi ,n'amatungo maremare, ndetse igicunshu kigira umumaro nk'umuti ,iyo umuntu arwaye inkorora ,akagihekenya abasha gukira.

Inyarasanya igiti cyakoreshwaga nk'umuti iyo umuntu yabaga yakomeretse, yafataga amababi yacyo agakaraga, agatotonyangirizaho amazi yacyo amaraso akabasha gukama. Ndetse n'akakabuto kacyo k'igishokoro kifashishwaga iyo babaga bari guhara umuntu yarwaye agatembwe.

Uruteja igihingwa kiboneka ahantu hadahingwa cane, ahantu hameze ibyatsi runaka cyifashishwa nk'umuti nk'iyo umuntu yagize ikibazo, nk' iyo umuntu yagize uburwayi bw'agaheri runaka ashobora kwisigaho uruteja agakira.